Icyumba cyo kwa muganga, iki cyumba akaba ari icyumba kirimo abaganga bakaba bambaye impuzankano hejuru y'umweru.

Imodoka y'imbangukiragutabara ikaba ari imodoka itwara umurwayi imugeza ku bitaro byisumbuye aho aturutse. Ikaba isa umweru ikaba ihagaze imbere y'ibitaro.

Icyumba cyo kwa muganga, akaba ari icyumba abarwayi barwariramo. Iki cyumba kikaba gisa umweru, ahantu hose hakaba harimo igitanda, abarwayi barwaye baryamamo.

Indege itwara amaraso ndetse n'imiti. Akaba ari indege igenda nta mupilote ifite, ikaba iri mu kirere, iri kujyana amaraso ahari abarwayi.

Icyumba cyo kwa muganga. Aho iki cyumba atanga ubuvuzi bwihuse, cyane cyane ku bantu bagize impanuka. Abaganga bakaba bambaye impuzankano z'icyatsi ndetse n'udupfukamunwa tw'umweruru n'uturindantoki tw'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga akaba iki cyumba gisa n'umuhondo, hakaba arimo amatara ari kwaka. Hakaba harimo abantu bari kwigishwa uburyo watabara umuntu aramutse agize ikibazo. Bakaba bambaye impuzankano y'amajiri y'umweru arimo umusaraba utukura.

Imbangukiragutabara y'umweru ukaba utwawe n'umugabo wambaye bifunze ahantu hose akaba yambaye uturindantoki tw'umweru, agapfukamunwa k'ubururu ndetse n'akahindamutwe gasa umweru.

Icyumba cyo kwa muganga, icyumba kikaba gisa n'umweru hakaba harimo umuganga wambaye itaburiya y'icyatsi n'uturindantoki tw'umweru, akaba arimo kuvura umurwayi uryamye ku gitanda yiyogoshe ishuka y'icyatsi.

Icyumba cyo kwa muganga. Aho abarwayi baryama. Iki cyumba kikaba cyubakishije ibikuta bisa umweru n'umukara hasi. Hakaba amadirishya n'inzugi bisa umukara, ibirahure bikaba bisa umweru.

Icyumba cyo kwa muganga. Aho ari icyumba abarwayi barwaye cyane baryamamo. Hakaba harimo imashini irimo irebera umubyeyi uko umwana uri mu nda ameze.

Icyumba cyo kwa muganga. Kikaba ari icyumba ubonaniramo na muganga kugira ngo agusuzume indwara urwaye. Umuganga akaba afite terefone imbere ye.

Icyumba cyo kwa muganga. Aho iki cyumba, kirimo abaganga barimo kuvura umurwayi. Ibikuta byo kwa muganga bikaba bisa umweru. Abaganga bakaba bambaye impuzankano z'icyatsi. Umurwayi nawe bakaba bamwambitse imyenda y'icyatsi kibisi.

Icyumba cyo kwa muganga, akaba ari icyumba basuzumiramo ibizamini by'abarwayi, hakaba harimo, imashini zitandukanye, zifashishwa mu gupima ibizamini by'abarwayi. hakaba imbere harimo aba abaganga.

Umuganga wambaye impuzankano y'ishati y'umweru, uturindantoki tw'umweru, akaba amaze gufata ibizami umurwayi, aho ari kubapima indwara ya malariya.

Icyumba cyo kwa muganga iki cyumba kikaba inkuta zacyo zisa umweru. Hakaba ari aho bakorera ubushakashatsi no gupima ibizamini by'abarwayi. Hakaba harimo umuganga wambaye uturindamazuru n'umunwa gasa umweru. Akaba yambaye impuzankano y'umweru n'itaburiya.

Icyumba bakoreramo ubushakashatsi. Kikaba cyubatse gisa umweru mo imbere. Hakaba harimo imashini umugabo arimo arashakashaka yifashishije. Akaba yambaye impuzankano y'umweru hejuru n'uturindantoki tw'umweru.

Icyumba basuzumiramo cyangwa bakagifatiramo ibizami, iki cyumba kikaba kirimo abaganga barimo barakora ubushakashatsi, bbakaba bambaye impuzankano y'umweru y'iyitabuye.

Urugendo shuri rwo kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko, aho uru rugendo rwitabiriwe n'abantu benshi, aho insanganyamatsiko ivuga ngo icyumweru cyahariwe kurwanya ikoreshwa n'ikwirakwizwa ry'ibiyobyabwenge mu rubyiruko nyarwanda.

Ikigo cy'urubyiruko cya k'inzuzi aho iki kigo gishishikariza urubyiruko kurinda inzozi zabo, kikaba cyubakishijwe amatafari ahiye ndetse kigasakazwa amabati y'ubururu.

Aho wakura cyangwa ukagura imiti yifashishwa ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa kwa muganga. Aho harimo imiti itandukanye iba iri mu bicupa binini.

Aho wakura cyangwa ukagura ibikoresho byo kwa muganga ukaba ibikoresho bihari ari uturindantoki tw'umweru, tukaba twifashishwa n'umuganga mu gihe agiye gutangira gukora ku muntu urwaye.

Aho wagura cyangwa ukahakura ibikoresho byo kwa muganga. Hakaba ibyo bikoresho bihari: ari imikasi yifashishwa n'abaganga. Igihe badoda umurwayi cyangwaga bari kumudodora.

Aho wakura cyangwa ukaba wahagura ibikoresho ndetse n'imiti yo kwa muganga, hakaba hari imiti itandukanye yaba iy'ibinini ndetse n'iy'amazi, hejuru bakaba banacuruza n'ibiryo by'abana bibafasha mu mikurire.

Ubukangurambaga bw'ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda, akaba ubu bukangurambaga bushishikariza abantu gukoresha neza agakingirizo, bakaba bafite insanganyamatsiko ivuga ngo ugakoreshe neza.

Ubukangurambaga bwo gukoresha agakingirizo neza. Ubu bukangurambaga bukaba bwitabiriwe cyane n'abaturage biganjemo urubyiruko ndetse n'abayobozi.

Ubukangurambaga bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda. Kikaba kiri gushishikariza abaturage gukoresha agakingirizo, kugira ngo barinde ubuzima bwabo.

Ubukangurambaga ku baturage bwo gutera imiti ndetse no kwirinda kurwara ndetse no kurwaza indwara ya malaria ituruka ku mubu. Bakaba barimo barabaterera imiti ituma imibu itabasha kuguma mu nzu.

Ivuriro ryagira ubuzima. Aho iri vuriro ritanga serivisi mu baturage zo kubaha ubuvuzi. Hakaba hubatse, hasize amarangi y'ubururu.

Ivuriro rya gira ubuzima, aho iri vuriro ritanga ubuvuzi ku baturage batandukanye, rikaba risize amarangi y'ubururu.